Amafaranga y'amanyamahanga yo mu gihugu cy'ubuhinde yo muri banki rizavu y'ubuhinde, ikaba ari amafaranga magana cyenda afite ishusho ya mahati magandi.

Inzu ifite amabati y'umutuku agaragara nkaho ashaje ikaba ifite antene ya kanari purisi kuburyo bareba umupira uko babishatse iri mu gipangu kiri munsi y'umuhanda

Ndabona ibicu by'umweru ndabona ahandi higanjemo ibara ry'ubururu bw'ikirere ndabona inkuta zubakishijwe amatafari ahiye ndabona ibiti binyuze muri izo nkuta ndabona imfungwa cyangwa se abagororwa nta misatsi bafite bambaye inkweto z'umuhondo ubururu n'umukara ndabona bafite ibikoresho by'ubuhinzi n'umusaruro ukomoka ku buhinzi nk'ibihaza ndabona bafite amasuka, ndabona iruhande rwabo hari icyobo.

Kwa muganga ni ahantu hahurira abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, abarwaye indwara zizanye abakoze impanuka abafite ibindi bibazo byinshi, icyo gihe umuganga abitaho bose buri wese n'ikibazo cye abenshi birakemuka ariko hari nabo byanga gukemuka bagapfa.

Abagabo babiri ndetse n'abagore babiri umwe yitwa Philippe umwe mu bakandida bahatanira kuyobora igihugu cy'u Rwanda akaba ari kubwira abaturage imigabo n'imigambi azakora mu gihe yaba abonye ububasha bwo kuyobora igihugu.

Ibyapa bikenerwa ahantu henshi hatandukanye, biyobora abantu ndetse bifasha abantu kumenya gahunda zibera ahantu hagiye hatandukanye, biba akarusho iyo byanditseho, umuntu wese uzi gusoma ahita yibwira igikorwa gikorerwa aho hantu.

Ku bantu bakunda kwambara imipira ndetse n'amakoti, amaduka abicuruza yabazaniye imyambaro myiza ushobora kwambara ukaberwa, wabagana cyangwa ukabahamagara, ubu ibintu byaroroshye ushobora kubahamagara aho wibereye bakabikugezaho.

Abantu benshi bagiye bakora imishinga yo gucuruza inkweto z'abakobwa, zigizwe n'ibara ry'icyatsi, umweru, umukara ndetse n'ikijuju. Ibi bituma buri wese yibona mu iduka nk'iri bitewe n'ibara akunda, harimo n'imyenda ku bantu bifuza kurimba, rwose ahantu nkaha muba mugomba kuhatemberera.

Hari igihe umuntu akina imikino y'amahirwe bakazamutungura bamuhamagara bamubwira ko yatsindiye ibihembo, uwo munsi uranezeza hari igihe uba uri mu kandi kazi ugahita ukareka kubera ibyishimo, ukiruka ujya gusangiza amakuru meza iyo inshuti yawe.

Umuhanga wo gutanga serivisi : abamugana agerageza kubasekera, akabamwenyurira, hanyuma akabatega amatwi akumva icyo baje bashaka. Iyo agifite akakibaha, yaba ntacyo afite akabahakanira ariko mu kinyabupfura cyinshi.

Umubare munini w'urubyiruko ukunda imideli n'imitako, ibi bishobora kuvamo umushinga wakwinjiza amafaranga bityo ubikora akiteza imbere, akabasha gutunga umuryango we ndetse agateza imbere n'abaturanyi be.

Iduka ricuruza imyenda rihora rizanira udushya abakiriya baryo. Iyo uhageze ntabwo wabura umwambaro wisangamo. Murashishikarizwa kugana amaduka musanzwe muguriraho imyambaro, buri munsi baba babazaniye imyambaro mishyashya.

Nimba ufite telefone uzakore uko ushoboye umenye kuyikoresha wandika ibintu byinshi bitandukanye mu mabara atandukanye bizatuma uyibyaza umusaruro uhagije.

Ni iby'agaciro kugira imodoka. Urubahwa, ndetse uraninjiza. Ushobora kuyifashisha utwara abagenzi. Ibyo byakuviramo akazi kagutunga, kakagutungira abawe. Ndabigushishikarije! Nubishobora uzabikore.

Muri iyi si umuntu ufite imodoka afatwa nk'umukire kandi koko niko kuri ntabwo ari buri wese wayigondera kuko ni ikinyabiziga gihenze cyane ugize amahirwe aba afite umuntu w'inshuti ye uyifite kuko igihe agize ikibazo aramugoboka akamutwara .

Ibicupa binini, amaji ndetse n'ibindi bicuruzwa bigezweho usanga bihenze cyane mu masoko acuruza ibiribwa mu mujyi wa Kigali abantu benshi babigana barinubira igiciro kiri hejuru.

Imodoka zifite ibara ry'umukara zirakunzwe cyane mu isi kuko ntabwo zipfa kwandura, abazitunze usanga bazikundira icyo ng'icyo, nawe nugira ubushobozi uzagure iy'umukara.

Iyo ufite imodoka yawe igihe cyose ushakiye kugenda uragenda nta mpungenge zo kuza gusanga iyo kugutwara yagiye, niyo mpamvu ubishoboye uwagira ubushobozi yagura imodoka ye.

Inganda zikora imodoka zirimo zisohora imodoka zimeze neza, ufite amafaranga nawe uwakwihahira hanyuma ugaca ukubiri no kugenda unyagirwa mu gihe imvura irimo kugwa, ibi ntawe byaremewe nta n'uwo byagenewe twese twabigira twabitunga, ikibura ni ukubishaka ubundi tukabiharanira.

Hari inyubako biba bitemewe kuzinjiramo, n'ugera ahantu ukahasanga agatambaro kari mu mabara y'umutuku n'umweru ntuzinjire aho hantu, bizaba bibujijwe nyamara ubwo ndakuburiye.

Mu buzima bw'umuntu habamo gukenera kwambara imyambaro myinshi itandukanye ndetse n'inkweto aba bagabo babiri, umwe yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru undi yambaye umupira w'umukara n'ipantaro ya kacyi ndetse n'inkweto z'igitaka.

Ikinyabiziga gishinzwe gukora imihanda kiri mu busitani ndetse inyuma y'ubwo busitani hari inganda izo nganda zisize amabara y'umweru n'urundi rusize irangi ry'ibara ry'icyatsi ryerurutse izo nganda ziri ahitaruye.

Amafaranga arakunzwe cyane muri iyi si, ahoyabonye wumva wayafata. Nibyo koko abantu twese nta kindi duharanira uretse kugira inoti nyinshi nawe n'ubona icyo ukora uzagikore ugikunze kugira ngo ubashe kuyashyikira.

Umuhanda ni igikorwaremezo gifasha abantu bose mu buzima bwabo bwa buri munsi turavuga abamotari, imodoka ndetse n'abandi bantu bawukoresha mu buryo busanzwe burabafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Inoti ya bitanu mu gihugu cy'u Rwanda irakunzwe; aho wayibona wakwirukira kuyisingira. Ibi ni ibigaragaza ko amafaranga afite agaciro ku isi hose. Ni yo mpamvu dukwiye gukora cyane kugira ngo tuyatunge.

Umuhanda w'umukara aho uganisha ku bitaro byitwa Sehashiyibe, biri mu karere ka Huye, aho hahagaze umuntu uhagarika imodoka kugirango babanze basuzume icyo uje uhakora, hakaba hari imodoka nyinshi ziparitse.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.

Amata ni ikinyobwa gikundwa n'abantu benshi kuri iyi si, iyo afite isuku, umuntu wese aba yumva yayanywa ariko kandi ntabwo ahendukiye buri muntu, usanga hari aho ahenze ariko abamo intungamubiri nyinshi zigirira umubiri akamaro.

Mu gufata neza umubiri w'umuntu hakenerwa ibiribwa bigizwe n'intungamubiri zitandukanye, izikomoka ku ku bikomoka ku matungo, imbuto y'ibinyampeke, ndetse n'ibindi muramenye mujye mwita ku mafunguro mufata.

Biba byiza iyo ufite ahantu ubika buri gikoresho. Bituma iwawe hahora hakeye. Kandi bikakurinda nawe ubwawe kujagarara, no kugira akavuyo kenshi. Ni byiza cyane ko umuntu ategura ahantu habugenewe ho gushyira ibintu bye.

Ikiribwa k'iridasi gifasha umuntu gukomera, iyo ari mu kazi akagifata kimutera imbaraga bigatuma akora akazi neza uko bikwiye, bikaba akarusho iyo urimo ugisomeza amata biraryoha cyane.

Amata ni meza mu mubiri w'umuntu ariko biba akarusho iyo mu kuyategura uyayunguruye, bituma imyanda yose iyarimo ivamo wayanywa ntagire icyo agutwara ndetse ntagire n'ingaruka akugiraho.

Umuntu akenera amazi umunsi ku munsi ibi uzabibwirwa nuko n'umara igihe kinini utanyweye amazi uzahurarana n'ibibazo bitandukanye biri mu kurwara impyiko, umutwe ndetse n'izindi ndwara nyinshi uramenye ntukabe kure y'amazi .

Abantu boroye inkoko bakenera udukoresho two kubikamo amagi iyo ugafite bituma amagi yawe atameneka dukunze kuba turi mwibara ry'umutuku ndetse niri nandi agiye atandukanye.

Aborozi b'inka usanga bafite utubati baterekamo amata, sibyo gusa ahubwo baba bafite n'utujerekani twogeje neza dufite isuku bashyiramo ayo mata. Ni byiza bituma umuntu abagirira icyizere cyane cyane cy'isuku.

Iyo umuntu ashaka kwirinda akavuyo mu nzu iwe, ibikoresho bye abibika ku murongo buri kimwe naho cyagenewe, biba byiza iyo uguze akabati, kagufasha kubika neza ibintu byawe, urabona ko uyu nguyu we yesheje umuhigo, ibikoresho bye bibitse neza rwose.

Abagore benshi n'abagabo benshi bicaye ku ntebe bari mu nama batumbiriye imbere yabo bafite amazi yo kunywa ndetse n'ibindi bintu byo kunywa imbere yabo hari amamashini ndetse hari n'indangururamajwi zibafasha kumvikana.

Iyo umuntu afashe ku mafaranga aba afite ibyishimo byinshi, niyo mpamvu dukwiye kwitabira akazi kugira ngo tujye dukora ku mafaranga umunsi ku wundi, uyu mukobwa urabona ko byamunejeje cyane gukora ku note za bitanu ndetse n'iza bibiri.

Nimba ufite telefone uzakore uko ushoboye umenye kuyikoresha wandika ibintu byinshi bitandukanye mu mabara atandukanye bizatuma uyibyaza umusaruro uhagije.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone byakemuye ibibazo byinshi, ubu abantu basigaye babyifashisha mu kubika kohereza amafaranga ibi ni ibintu byiza cyane.

Inyandiko nyinshi kugira ngo zemerwe zishyirwaho umukono wa noteri ni umuntu uba warahawe ububasha n'igihugu, kandi akagirirwa icyizere cyo kuzajya yemeza inyandiko zose zidafite ikibazo.

Amafaranga y'amadorari azinze mu mifungo akaba ari imifungo itandatu iyi mifungo uyibonye yaguhindurira ubuzima rwose kuko amadolari ni amafaranga menshi cyane kandi avunjwa amafaranga menshi uyashyize mumanyarwanda rero uwayaguha wahita ugira ubuzima bwiza.

Hari uburyo bwinshi ushobora kwandikamo imibare, ushobora kuyandika mu mweru cyangwa mu mutuku, ibi bizatuma usoma anogerwa n'ibyo wanditse bitewe n'ibara akunda.

Abantu bicaye bambaye idarapo ry'u Rwanda hakaba harimo abagabo n'abagore, bakaba bafashe ku meza ndetse bafite n'amakayi imbere yabo yo kwandikamo.

Amafaranga menshi akoreshwa mu isi, dusangaho amafoto y'abantu bagiye batandukanye, ibi bigaragaza ko uwakoze ibikorwa by'ubutwari, hari igihembo ahabwa nko kuba yamanikwa ahantu runaka ishusho ye cyangwa ifoto ye ikajya ibonwa na buri wese.

Muri iyi si umuntu ufite amafaranga, akenshi aba ashobora kugura ikintu cyose akeneye, ariko kandi bikaba bibi iyo ntayo ufite, ubaho uhangayitse ubuzima bukakubihira cyane.

Uyu munsi wa none amafaranga ari mu bintu biyoboye isi, abantu benshi usanga bakora amanywa n'ijoro kugira ngo barebe ko bayagira, ibi bituma abandi bakora ibikorwa bibi, birimo kwicana, kugira ngo barebe ko bagwiza umutungo nk'uyu.

Nta muturage wemerewe gutunga akuma gakora amafaranga iyo agafatanywe arabihanirwa bikomeye, ibi ni ibikoresho byagenewe gutungwa n'inzego zibifitiye ububasha ndetse n'uruhushya gusa.

Iyo umwigisha arimo arigisha abanyeshuri akenshi yifashisha ikaramu cyangwa ingwa cyangwa ikindi gikoresho gishobora kwifashishwa mu kwandika bityo akazajya avuga anandika abamukurikiye biraborohera gufata mu mutwe kuko nabo barandika bakenera kubisubiramo bakabibona mu buryo buboroheye .

Nujya mu mijyi uzahasanga inyubako zigeretse, ibi ni byiza cyane, bituma ubutaka bwubakwamo buba buto kandi hakaba habamo abantu benshi, bidasabye kubaka ahantu hanini.

Inyubako nyinshi usangaho ibyapa byanditseho amagambo, ushobora kwibaza uti ibi bimaze iki? ibi ngibi bifasha uhageze kumenya igikorerwa muri iyo nyubako kandi bituma umuntu wese ashobora kubona ibyo akeneye bimworoheye kuko aya magambo abagaragaza icyihakorerwa.

Icyumba kigaragara nkaho hari ahantu bigira ikoranabuhanga, hari abagabo babiri ndetse hari n'undi utari kugaragara neza, umwe yambaye ishati y'iroze undi yambaye ishati y'umutuku irimo utubara tw'umukara, imbere yabo hari amaterefoni menshi bigaragara ko bari kwihugura.

Biba byiza iyo muri gahunda yawe yo kwamamaza ibikorwa ukora, ukoresheje indimi nyinshi zitandukanye. urugero : ukaba wakoresha icyongereza, ikinyarwanda, igiswahili, igifaransa ndetse n'igishinwa. Bizatuma ukugana wese amenya ibyo ukora.

Mu buryo bwo kugira ngo imishinga dukora imenyekane, turasabwa kuyamamaza cyane cyane binyuze mu buryo bw'inyandiko. Ibi bizatuma abakiriya batugana baduteza imbere bagura ibyo ducuruza mu gihe dukora imishinga ijyanye n'ubucuruzi.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.

Iyo ugiye ahantu bakakwakirira ahantu hari ameza n'intebe ni ukuri wumva wishimye ndetse ukumva wahigumira bitandukanye no kuba wajya ahantu bakakwakira ariko ntibaguhe icyo kwicaraho ugakomeza uhagaze ibyo byo birarambirana cyane .

Abantu benshi dukenera kwicara, bitewe n'uko dukora akazi k'ingufu tuba dukeneye no kuruhuka, inganda zitandukanye zikora intebe n'ameza, kugira mugihe dukeneye kuruhuka turimo tuganira, tujye tubona aho tuba twicaye.

Imodoka y'umutuku ifite ibirahuri by'umukara itwawe n'umutwazi wambaye imyenda ya kaki n'isaha y'umukara kukuboko ahagaritswe n'umupolisi wambaye imyenda y'akazi hari ibiti bitandukanye indabyo, ndetse n'inyubako nyinshi.

Abahanga mu gukora ibikoresho mu biti bafite uburyo bwihariye bashobora gutunganyamo intebe wayireba ukabona iryoheye ijisho wayicaramo ukumva uguwe neza, ibi birasa no kuyamamaza uyikeneye wabavugisha bakayigukorera.

Iyo ufite utubati mu nzu iwawe bigufasha kubika neza ibikoresho byawe, nta mbeba cyangwa utundi dukoko twapfa kubyangiza, uba wizeye umutekano wabyo ijana ku ijana.

Iyo wifuza kuzajya usurwa kenshi utegura uruganiriro neza ugashyiramo intebe ameza ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, biba akarusho iyo ufitemo n'insakazamashusho bituma ugusuye atarambirwa no kuguma iwawe.

Ntabwo ari buri wese ugira uruganiriro rwiza, abantu benshi usanga byarabagoye cyane kugera intebe mu nzu ndetse n'ameza, ubifite ntabwo aterwa ipfunwe no gusurwa, kuko aba afite aho yakwicaza umugannye.

Iyo umuntu afite uruganiriro rwiza ruma intebe, ameza ndetse n'ibindi, ahora yifuza abamugana, ntabwo aterwa ipfunwe no gusurwa, kuko aba yifuza ko buri wese yaza akakura ishusho y'uko yateguri iwe.

Mu rwego rwo kubungabunga ubutaka abantu bashishikarizwa kubaka inzu zigerekeranye, kugira ngo babashe gucunga neza ubutaka bityo n'abazabakomokaho bazabone aho batura, ibi ni ingenzi.

Umubare munini w'abantu batuye mu duce tw'ibyaro baba bifuza gutemberera mu mijyi kugira ngo barebe ibintu bishyashya batigeze barebesha amaso yabo, ibi ni byiza cyane mu yandi magambo n'urugendo shuri.

Tagisi vuwatire yo mu bwoko bwa yego kabusi ushobora guhamagara iriya nimero icyenda rimwe icyenda rimwe ikaza ikagutwara aho waba uherereye hose kandi batanga serivisi nziza n'icyombaziho .

Mu kwivura umunaniro n'amavunane, umuntu ashobora kugana ahantu hagenewe kongera, akaba yakoga, ibi bimuruhura mu mutwe ndetse bigatuma atekereza neza, ahantu nk'aha ntihahenda nawe ushobora kuhajya.

Igiceri cy'u Rwanda cyanditseho banke nasiyonari di Rwanda, bigaragara ko cyakozwe mu mwaka w' igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi, kandi iki giceri gishushanyijeho igitoki bigaragara ko mu Rwanda haba insina nyinshi.

Imodoka nziza cyane y'umukara, ikaba ikodeshwa ariko ikaba ifite purake nziza cyane y'abaviyayipi. Bikaba bisobanuye yuko ishobora gutambuka isaha iyo ari yo yose kandi idahagaze.

Iyo abayobozi basoje inama bari barimo hari ahantu habugenewe bahurira bakiga ku myanzuro yafashwe ndetse bakanatanga n'umucyo ku bibazo byagiye bigaragazwa ,aho hantu iyo bahageze baraniyakira.

Mu rwanda hari inzu zihenze rwose ibi nabihamya, nk'iyi nzu iyo uyirebye usanga ifite agaciro k'amafaranga menshi cyane, ni ukuvuga ikiba kibabaje ni uko igihe kizagera ba nyirayo bakava ku isi bakayisiga kandi yabavunye bayubaka.

Iyo umuntu azi gusoma akagera ahantu agasanga handitse ijambo runaka, ahita amenya icyakorerwa, niyo mpamvu dukangurirwa kugana'amashuri yigisha gusoma ndetse tukabishishikariza n'abato kugira ngo iminsi yabo y'ubukure bitazabagora.

Abantu benshi iyo bakeneye kujya mu kiruhuko bajya ahantu hari amazi, abakobwa bamara koga bakicara ku nkengero zayo bakaganira bafata icyo kunywa biranezeza cyane. Rero hari abakora imishinga yo gutegura aho hantu ho kuruhukira abo nabo bahisemo neza.

Iyo abantu bari mu kazi kamwe, akenshi baterana imbaraga. Iyo ubona mugenzi wawe arimo arakorera ku muvuduko wo hejuru, bituma nawe utanebwa, ugakora ushyizemo umwete.

Icyumba kigaragara nkaho hari ahantu bigira ikoranabuhanga, hari abagabo babiri ndetse hari n'undi utari kugaragara neza, umwe yambaye ishati y'iroze undi yambaye ishati y'umutuku irimo utubara tw'umukara, imbere yabo hari amaterefoni menshi bigaragara ko bari kwihugura.

Iyo ufite inyubako y'ubucuruzi cyangwa ikorerwamo ibindi bikorwa bitandukanye, biba byiza iyo ushyizeho icyapa kimenyesha abantu ibikorerwa aho hantu, bituma uhageze adatakaza umwanya munini abaririza icyakorerwa.

Iyo abayobozi basoje inama bari barimo hari ahantu habugenewe bahurira bakiga ku myanzuro yafashwe ndetse bakanatanga n'umucyo ku bibazo byagiye bigaragazwa ,aho hantu iyo bahageze baraniyakira.

Ahantu hatangirwa serivisi runaka hagomba kuba hakinguye kugira ngo uje ahagana, abone ko yemerewe kwinjira nta kabuza ibi bituma umuntu wese ahisanga.

Mudasobwa zakemuye ibibazo byinshi, muri iki gihe tugezemo gahunda nyinshi zisigaye zikorerwa ku ikoranabuhanga, aba bantu nk'uko bigaragara hano barimo bakoresha mudasobwa mu kazi kabo ka buri munsi, bambaye amashati y'umweru n'amakarita abaranga mu kazi.

Akazu k'umuhondo gakorerwamo n'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya emutiyene, harimo umugabo uhagaze witeguye guha serivisi abaza bamugana zirimo; kubitsa, kubikuza, cyangwa kohereza amafaranga.

Tengamara na tiveya twongeye kubatengamaza, ishimwe kuri tiveya ryongeye gutangwa ni nyuma y'ubugenzuzi isuzuma n'ibikorwa byo kugaruza umusoro byakozwe dukomeje gusaba ibiyamu niba utariyandikisha kanda kannyeri maganainani urwego ukurikiza amabwiriza nibayandikishije zirikana fatire ya ibiyemu no kwandikisha nimero yawe ya telefone itanga n amakuru.

Inyandiko nyinshi zikunze kuba zirimo n'amafoto, izi zikururira abantu kuzisoma cyane cyane iyo n'inyuguti zanditse mu mabara atandukanye, biba byiza cyane iyo hagiye harimo amashusho menshi.

Iyo umuntu agiye kwaka serivisi runaka muri banki bamusaba imyirondoro ye, cyane cyane ikarita ndangamuntu cyangwa n'ikindi cyangombwa kimuranga, hanyuma agasiga n'umukono bamwereka aho ashyira uwo mukono we.

Ababyeyi iyo bakenyeye ibitenge baba bambaye neza ni muri urwo rwego amaduka atandukanye yabatekerejeho abazanira ibitenge byiza bigezweho byo kwambara mwese ababyeyi muhawe ikaze.

Hari abantu bazi gukora umushinga ugasanga afashe imideri yose n'imitako nkenerwa akayirunda akayikusanyiriza ahantu hamwe abayikeneye bakajya baza kuyigura ibi bivamo amafaranga menshi n'inyungu nyinshi.

Mu muhanda hari abantu benshi bari guturuka mu mpande zitandukanye. Hari umuhanda w'abanyamaguru hejuru hari na kaburimbo iri kunyuramo moto hagati aho abantu ba bari kunyura cyangwa ku mpande z'uwo muhanda abanyamaguru bari kunyuramo hari inyubako ku ruhande rw'iburyo no kuhande rw'ibumoso hino hari ipoto.

Iyo ubonye umuntu wambaye imyambaro yacitse uramuseka cyane, niyo mpamvu dukwiye kujya dukora uko dushoboye tukagira amafaranga natwe tukagana amasoko acuruza imyambaro tukagura imyambaro tukajya duhora dukeye.

Ababyeyi b'abamama usanga aribo bafata iya mbere mu kujya gushaka icyatunga imiryango yabo, ibi ni ibintu byiza cyane bikwiye gusigira isomo abato, bakabona ko umugore bitavuze kwitega buri kimwe cyose ku mugabo ahubwo na we afite ubushobozi bwo gukora kandi akibeshaho.

Imboga z'amabara atandukanye, kandi z'ubwoko butandukanye zifasha umuntu kugira ubuzima bwiza. Ni kenshi dukangurirwa kurya amafunguro agizwe n'imboga, ndetse n'ibindi bitandukanye. Ntabwo tuba tubeshywa uko ni ukuri dukwiye kubyitabira.

Hari inyubako ziba zigeretse inshuro irenze imwe, izo nyubako akenshi usanga zihenze cyane ntabwo ari buri muturage wayigondera, ahubwo abantu bashyira hamwe bagafatanya kuyubaka nibwo bigenda neza kandi bigatwara amafaranga atari menshi cyane kuruta uko umuntu umwe yayigondera.

Abagore benshi n'abagabo benshi bicaye ku ntebe bari mu nama batumbiriye imbere yabo bafite amazi yo kunywa ndetse n'ibindi bintu byo kunywa imbere yabo hari amamashini ndetse hari n'indangururamajwi zibafasha kumvikana.

Ubu ibintu byaroroshye nta muntu ukigendana amafaranga mu ntoki, asigaye atwarwa ku ikoranabuhanga, iyo ugeze aho ukeneye guhaha ikintu ushobora kwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa ukagana ubishinzwe akayabikura, akayakura ku ikoranabuhanga akayaguhereza mu ntoki nawe ukajya kuyakoresha icyo ushaka.

Ubu hari uburyo bwashyizweho bwo kwishyura amafaranga ku ikoranabuhanga, ntabwo bikiri ngombwa ko kugira ngo wihahire ikintu ube ufite amafaranga mu ntoki, oya niyo uyafite kuri telefone yawe ushobora kwigurira ikintu ushaka hifashishijwe uburyo bwiswe momopeyi.

Burya iyi isi iriho ibiremwa byiza, aba abantu babiri bagaragara kuri iyi foto ni beza rwose, ni abakobwa, umwe yambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku, undi uri mu ibara ry'icyatsi kibisi, ntakintu batwaye.

Ikinyabiziga gishinzwe gukora imihanda kiri mu busitani ndetse inyuma y'ubwo busitani hari inganda izo nganda zisize amabara y'umweru n'urundi rusize irangi ry'ibara ry'icyatsi ryerurutse izo nganda ziri ahitaruye.

Ni kenshi cyane tubona imitaka mu ngo z'abantu cyangwa se imbere mu mazu yabo, ibi bituma abicayemo baticwa n'izuba, bakaganira bumva baguwe neza.

Ababyeyi b'abamama ni bo bantu bazwiho kujya guhahira ingo. Akenshi uhura na bo mu masoko agiye atandukanye, bafite udukapu bitwaje bari bushyiremo ibiribwa bari buhahe. Umubyeyi nk'uyu akwiye kubahwa.

Mu kazi biba byiza iyo abantu badahuje igitsina bakorana, ni ukuvuga umugabo iyo akorana n'umugore n'iyo yaba atari uwe birafasha, bituma akazi kagenda neza kuruta uko abantu bahuje igitsina baba bakorana, na we nugira umushinga runaka ugakenera gukoreshamo abakozi, uzakoresha mu abantu batandukanye.

Hari uburyo bwashyizweho bwo kugemurira abantu ibiryo mu ngo zabo, aya mapikipiki nicyo yagenewe, urahamagara hanyuma bakaguha ibyo kurya bakohereza uyu muntu akabikugezaho mu gihe gito

Nimba ushaka kugira ubwonko bukora neza, uzige kuba ahantu hasukuye, ibi bizatuma nawe ubwawe ugira gahunda muri wowe, bikurinde guhora ujagaraye no guhora ufite akavuyo mu mutwe.

Inzu nziza ihesha agaciro abayirimo nimba ushaka ko abantu bakubaha mu rusisiro utuyemo uzakore uko ushoboye, ukore iyo bwabaga wubaka inzu nziza bizatuma wubahwa ndetse n'abantu bakugane ubone abashyitsi benshi.

Amafaranga y'amadorari azinze mu mifungo akaba ari imifungo itandatu iyi mifungo uyibonye yaguhindurira ubuzima rwose kuko amadolari ni amafaranga menshi cyane kandi avunjwa amafaranga menshi uyashyize mumanyarwanda rero uwayaguha wahita ugira ubuzima bwiza.

Umwana w'umuhungu ugeze mu kigero cy'ubugimbi aba yifuza kuzagira inzu nziza benshi birabahira ariko hari n'abatsindwa no kugera kuri icyo kintu kuko ntabwo ari ikintu cyoroshye bisaba gukora cyane no kwigomwa ibintu byinshi byiza.

Iyo winjiye mu nyubako nyinshi usangamo ibikoresho bigiye bitandukanye, byaba iby'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bidakoresha ikoranabuhanga. Urugero: iyi nyubako irimo ameza, intebe ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bo mu ngeri zose baremye isoko ryubakiye ryiganjemo ibikomoka ku buhinzi birimo amacunga, indimu, ibinyomoro, kokombure, imineke n'ibindi byinshi hagamijwe guteza imbere ibikomoka ku buhinzi

Abantu dukunda inyubako zitandukanye akenshi inyubako igizwe n'amabara menshi irakundwa cyane uzasanga hari izifite amabara y'umutuku avanze n'umukara ndetse n'umweru uko niko ba nyirazo baba babihisemo.

Ni byiza gutunganya icyumba cyo kuruhukiramo. Iyo utashye ufite ibitotsi, ukawuryama ahantu hashashe neza uhita usinzira nta kabuza. N'iyo ugize umushyitsi ntabwo aguseka. Abona ko ibintu ukora uba wabyitondeye, kandi wifite mu gusirimuka.

Mu guteganyiriza abashyitsi bawe ni byiza ko utegura ahantu heza ho kuganirira, ukahashyira intebe ndetse n'ameza, ibi bituma ugusuye mubona aho mwicara mukaruhuka ndetse mukungurana ibitekerezo nta nkomyi.

Ikinyabiziga k'ibinyamitende kikoreye kigaragara cyakorewe mu Rwanda n'abagabo batambuka muri iyo kaburimbo n'imodoka nyinshi ziparitse zitegereje abagenzi.

Muri gahunda y'iterambere, abaturagihugu bose basabwa kubaka inyubako zigezweho, cyane cyane izigeretse, rimwe cyangwa kabiri, ibi ngibi bituma umunyamahanga utembereye muri icyo gihugu, abona ko, icyo gihugu hari intambwe kirimo gitera mu iterambere.

Inzu igeretse ishobora kubamo imiryango myinshi kandi nyamara ijya mu butaka butari bunini ni byiza ko umuntu wese yakwihuza na mugenzi we, bakubaka inyubako nk'iyi mu buryo bwo kugira ngo babagenzure neza ndetse banakoreshe ahantu hatoya mu kubaka.

Nugera ahantu ukahasanga urupapuro rwanditseho amagambo menshi, uzihutire gusobanuza icyo bisobanuye, ni mu gihe wowe uzaba wananiwe kwisobanurira kandi mboneyeho kukwibutsa gushishikariza abantu kwiga, gusoma, kwiga inyuguti kugira ngo bajye babasha kumenya byinshi.

Uba ahantu hose wagera wabona aho urara, kera umuntu iyo yakoraga urugendo bukamwiriraho byamusabaga kujya gucumbika kuri mugenzi we, rimwe na rimwe hakaba hari aho agera bakamwangira, icyo kibazo ubu ngubu cyarakemutse, aho wagera hose ufite amafaranga yawe ubona icumbi.

Iyo umuntu afite inzu igeretse afatwa nk'umukire, iyo ifite amakaro ibagaragara neza biba akarusho iyo yubatse mu mujyi, uyibonye wese ahita yibwira ko nyirayo afite amafaranga, ibi biraharanirwa.

Hari abantu muri iyi si, bamaze kubona umurongo w'ubuzima. Aho usanga bafite imiturirwa, ihenze cyane. Imbere yaho akenshi baba barahateye ibyatsi, bibafasha kugaragaza ishusho nziza y'aho hantu.

Inyubako nyinshi usanga imbere ku mbuga yazo hari amapave, ibi bituma hagaragara neza ndetse umuntu wese akifuza kuba yahasura yahatemberera cyangwa se nawe yahubaka indi nyubako isa n'iyo ngiyo ihari.

Nimba ushaka ko inzu yawe izagira agaciro uzayubake ahantu heza, uyitere amarangi, imbere yayo uhashyira amakaro, uyubakire urugo ndetse iterimo n'indabyo uzagusura azagenda agushima, azavuga ko wakoze igikorwa cy'ubutwari, ibi ngibi ni ibintu bidapfa gushoborwa na buri wese.

Inyubako nyinshi zitandukanye ziba ziri mu mabara menshi, arimo umukara, umweru, icyatsi kibisi, umutuku n'umuhondo ndetse n'andi menshi, biba byiza iyo ufite inzu iriho amapave, iryo ni ihame ry'inzu isirimutse.

Ubuyobozi bwa leta y'u Rwanda buhora bushishikariza abaturage bayo kuva mu megeka kuko ibi bintu bishyira ubuzima bwabo mu kaga, nyamuneka muhanahane aya makuru aba bantu bave mu manegeka.

Amasoko agiye atandukanye usanga higanjemo abantu benshi cyane baba baje kugura ibintu bitandukanye abakeneye udusakoshi baratubona ndetse n'imyambaro bakayibona abacuruzi nabo baba bazanye ibicuruzwa bitandukanye kugira ngo babihe abakiriya.

Ibinyobwa byinshi tunywa, biba biri mu mabara atandukanye. Hari ibyo usanga biri mu mabara y'icyatsi, umutuku, umuhondo, umweru ndetse n'ubururu. Ibi bigaragaza ko inganda zifite amarangi atandukanye zivanga mu binyobwa dukenera.

Ababyeyi benshi bakunda gutembereza abana babo. Iki ni igikorwa cyiza, ndagikunda. Bituma umuto agira amakuru ku bintu byinshi bitandukanye, ndetse akabasha kugira ubumenyi azifashisha yigisha abandi.

Umushinga w'ubucuruzi ufasha nyiwo kwiteza imbere kandi umufasha kwita ku muryango we, si byo gusa ahubwo uzamura n'igihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ni kenshi usanga abantu bakunda gukora imishinga nk'iyi.

Mu isoko ni ahantu umuntu adahezwa, cyane cyane ufite amafaranga uragenda ukagura ndetse ushobora no kugenda ukareba gusa ubundi ukitahira, aha ushobora no kuhabyaza umusaruro, aho ugenda ukajya ufasha abaje kugura ukanabatwaza, ibi bishobora kuguhesha imibereho myiza.

Gutanga ubwisungane mu kwivuza ni igikorwa cy'ingenzi kandi cy'ingirakamaro, ubikoze aba yiteganyirije, bituma kandi na wa muturage udafite amikoro ahagije, abona uburenganzira bwo kuba yajya kwivuza mu gihe arwaye.

Icyumba kigaragara nkaho hari ahantu bigira ikoranabuhanga, hari abagabo babiri ndetse hari n'undi utari kugaragara neza, umwe yambaye ishati y'iroze undi yambaye ishati y'umutuku irimo utubara tw'umukara, imbere yabo hari amaterefoni menshi bigaragara ko bari kwihugura.

Kwisungana mu kwivuza, bigabanya impfu nyinshi. Usanga n'umuturage utishoboye mu mikoro, agirirwa ubuntu, akaba yashobora kwita ku buzima bwe bityo akarama. Ibi ujye gushishikariza abantu, ni ingenzi.

Inzu irimo intebe n'ameza yicayemo abantu, iba igaragara ko itambaye ubusa, akenshi uzabona inzu zikimara kubakwa, aho baba batarashyiramo ibi bikoresho, nukuri iyi nzu iyo uyirebye uba ubona hari ikiburamo.

Imodoka yo mu bwoko bwa kebiyesi ariko itatse ibyapa bya beka, ikaba isa ibara ry'icyatsi, ikaba iri mu muhanda irimo iragenda itwaye abagenzi bagana za Remera.

Aha ndahabona ibintu bigiye bitandukanye aho ndimo kubona abantu bagiye batandukanye, imodoka ndetse ndikubona moto zigiye zitandukanye, kandi nkaba ndimo ndabona na rifani zigiye zitandukanye, ndetse kandi nkaba ndimo kuhabona n'umuhanda wa kaburimbo.

Abaturage twese muri rusange, dushishikarizwa gutanga amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Ibi ni ingirakamaro cyane, bituma umuturage wo mu cyiciro cyo hasi, nawe agira ubushobozi bwo kujya kwivuza mu gihe yarwaye.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.

Iyo umuntu agiye guhaha imboga cyangwa se imbuto yitwaza agakapu cyangwa agakoresho ari buzitwaremo uyu mukobwa nawe yitwaje akantu kari mu bwoko bw'indobo yateganyije gutwaramo ibyo ari buhahe .

Mu muhanda hari abantu benshi bari guturuka mu mpande zitandukanye. Hari umuhanda w'abanyamaguru hejuru hari na kaburimbo iri kunyuramo moto hagati aho abantu ba bari kunyura cyangwa ku mpande z'uwo muhanda abanyamaguru bari kunyuramo hari inyubako ku ruhande rw'iburyo no kuhande rw'ibumoso hino hari ipoto.

Amaduka menshi acuruza ibyokurya bitandukanye iyo ugiye guhahirayo baranagupfunyikira bakaguha igikoresho utwaramo, ibi bigaragaza serivisi inoze. Nawe mukiriya aho hantu ntiwahacika.

Muri iyi si dutuye harimo amoko menshi y'ibiribwa bitandukanye aho usanga bimwe bibyibushya, ibindi bikarinda indwara, ibindi bigatuma umuntu akomera nange ndagushishikariza kujya ufata amafunguro yiganjemo intungamubiri zitandukanye bizakugirira umumaro.

Muri iyi si hari inganda zikora ibinyobwa bigiye bitandukanye, hari izikora ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, mu mabara agiye atandukanye, tubona ibinyobwa byinshi by'umutuku, by'umuhondo, by'umukara ndetse n'iby'icyatsi kibisi.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.